Abagabo batatu bambaye udupfukamunwa bahagaze imbere y'umutaka w'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda eyateli, bafite amajiri atukura ndetse bambaye n'udupfukamunwa, bafunze igipfunsi berekana ko umuyoboro wa eyateli, ari umuyoboro mwiza.

Akazu karimo umukozi wa MTN, aho ushobora kuza, akaguha serivisi zijyanye no kubitsa, kubikuza, kuguha amayinite ndetse n'izindi serivisi zijyanye n'itumanaho, aha ngaha ari kumwe n'undi muntu waje kubitsa, arimo kugenda yandika ibintu arimo kugenda amusaba mu gakayi.

Akazu k'umukozi wa MTN aho kariho iyi serivisi zigenda zidutandukanye umuntu ashobora kuza gusaba. Ahangaha bashobora kuguha amayinite, bakakubikira amafaranga kuri telefoni, cyangwa se bakayakubikurira mu gihe uyakeneye kuyatwara mu ntoki.

Abagabo babiri n'umugore umwe wicaye hagati, imbere yabo bafite amatelefone arambitse hasi inyuma hariho ikirango cy'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda wa Airtel. Barimo kugenda bashishikariza abantu serivisi zijyanye n'amatelefone, itumanaho bijyanye n'umuyoboro wa Airtel.

Abakozi b'ikigo k'itumanaho cya Airtel cyangwa se Tigo batanga serivise zigiye zitandukanye, harimo kubikuza, kubitsa, kugura amayinite ndetse aha ngaaha hari imitaka ifite ibara ritukura aba bose ni abakozi ba Airtel urimo gutanga serivise runaka.

Ikigo cy'imari ,aho umuntu ajyana amafaranga akajya kubitsa ,aha ngaha ni muri Banki ya Kigali. Ahangaha ni kuba agent ,aho ushaka kugenda bakaguhereza serivisi zigiye zitandukanye mu gihe runaka buryo bwihuse udatinze.

Akazu ka MTN aha ngaha haba harimo umukozi wa MTN aho ashobora kuguhereza serivisi zigiye zitandukanye harimo kubitsa, kugura amayinite ndetse no kubaruza kuri simukadi, ashobora kandi no kugufasha mu gihe wagize ikibazo mu bijyanye n'itumanaho.

Umugore barimo guhereza aka kantu, barimo kugenda bamuganiriza. Ni serivisi irimo kugenda bamenyesha ndetse na bagenzi be barimo kugenda bamureba, bareba ibyo barimo guhugura. Aha ngaha ni mu nama yakoranyije abantu benshi.

Abagabo bateraniye ahantu hamwe barimo kugenda batonda umurongo, bagiye gusaba serivisi zijyanye no kubica no kubikuza ndetse no kuba basaba inguzanyo kuko aha ngana ni mu kigo k'imari kibika amafaranga ya koperative cyangwa se mu matsinda.

umuyobozi w'umugabo yambaye agapira k'ubururu kari ikirangantego cy'igihugu cy'u rwanda, afite indangururamajwi mu ntoki ndetse arimo kuvuga ijambo, ahagaze imbere ya cya gikoresho umuntu ahagararaho igihe ari kuvuga ijambo mu ruhame.

Udufuka turimo imiceri yiganjemo ya y'indi miremire ifite ineti nini ,hariho yitwa Long grain ndetse imyinshi ihingwa mu gihugu cy'u Rwanda, ni nayo igura makeya ugereranyije n'indi ikomoka mu bihugu byo hanze.

Abantu bahagaze ku murongo bamwe bameze nk'abari gukoma amashyi abenshi harimo abagore, abagabo ndetse abagabo barimo bambaye amakositimu ndavuga amakoti ndetse bambaye neza bari mu cyumba kirimo amabara y'icyatsi ndetse n'ay'ubururu.

Abagabo, abagore bateraniye ahantu hamwe baje kwaka serivisi zitandukanye ziganjemo iza kubitsa amafaranga, kubikuza, gusaba inguzanyo ndetse no kuba baza kwishyura inguzanyo baba barafashe, akenshi hazigamwa amafaranga cyane cyane ku makoperative.

Abantu bateraniye ahantu baje mu nama harimo n'umuntu urimo kugenda ubahereza ababwiriza nabo bagatega amatwi, ni ahangaha barimo kugenda bumva biganjemo abagabo bakuze b'abayobozi biyogoshesheje, bafite uruhara ndetse bambaye nk'indorerwamo abenshi muri bo.

Abamama n'abagabo barimo kugenda bananika umusaruro w'ibigori aha ngaha ni mu buhunukiro aho barimo kugenda basanza kugira bigereho izuba, byarumye bashaka kugenda babyandika byamara kumpa kugira ngo babigurishe bakuremo amafaranga ubundi bikenure.

umugore ukiri mutoya ufite imisatsi izingazinze imbere ye hari umufuka w'amakara, arimo kugenda ayashyira hejuru ndetse ku ruhande hariho ihema ku buryo amakara adashobora gutumuka ngo ajye mu rundi ruhande yambaye neza, ndetse arimo kugenda aseka.

Abantu benshi bateraniye hamwe, ni ahantu hari itente ndetse hari na za ntebe za pulasitike, ni ho abantu bicaye hariho n'abandi barimo kugenda bagana ku marembo y'ikigo, biragaragara ko ari ikigo gitanga serivisi zo kubitsa no kubikuza.

Amacupa arimo ibinyobwa bisembuye higanjemo amarikeri zazindi ziba zihenze zikunze gukorerwa hanze, cyane cyane inyinshi ziba zakorewe mu Burusiya ndetse n'ahandi hantu, kuko ariho hazwi gukora inzoga zihenze cyane kandi, zikomeye cyane zisindisha.

Ahantu hateguye ameza ndetse n'intebe, ahangaha akenshi bakunze gutegura gucya haba ari muri hoteli cyangwa se mu kabari, ushobora kuza ukagura inzoga, inyama ndetse n'ibindi bihakorerwa bitewe na serivisi batanga.

Akabari karimo inyama ziri ku gasahani ndetse aha ngaha ni mu kabari cyangwa se muri hoteri, ku ruhande hariho andi masahani, ariho ibindi biribwa bigiye bitandukanye, aho hariho umuceri, ifiriti ndetse ku meza hateretseho inzoga.

Amacupa arambitse hasi yiganjemo aya marikeri, yayandi yifashishwa mu mahoteli, aya macupa kandi izi nzoga zirimo ziba zihenze cyane kuko ziba zaturutse hanze ndetse iz'ingizi kandi ntago zipfa kwigonderwa n'uwariwe wese.

Mu ibara harimo inzoga zigiye zitandukanye zikorwa n'uruganda rwa Bralirwa harimo mitsingi, pirimusi ndetse n'izindi kandi harimo n'ibyuma cyangwa se amarikeri zikorwa n'inganda zigiye zitandukanye.

Muri resitora cyangwa se mu kabari, aho hariho aho umuntu yicara mu gihe hagiye guhabwa serivisi, ndetse buri meza hariho umunyu uteretseho n'agati umuntu yihaganyuza mu gihe amaze kurya, ndetse aya meza akoranye ubuhanga ku buryo ikintu cyose kimenetseho gishobora gukurwaho kitanduje umwenda uri ku meza kubera isashi ihari.

Igishushanyo kiriho abantu, umwe muri bo afite inkoni, barimo kugenda bamamaza, inzoga yitwa gatanu, ikorwa n'uruganda rwa Skol. Iyi inzoga umuntu uri munsi y'imyaka cumi n'umunani, ntabwo aba yemerewe kuyinywa cyangwa se umugore utwite.

Aho bacururiza gaze ni amacupa manini ndetse hariho umugabo urimo kugenda aterura icupa ririmo gazi, zazindi zicanwa kugira ngo hirindwe kuba ikirere cyahumanywa, bishobora gusimbura uburyo bwo gukoresha amakara cyangwa se gucana inkwi.

Amoko y'amavuta agiye atandukanye, yiganjemo igipotoro ndetse n'andi yamazi, harimo ayitwa sikara, amara ndetse n'andi moka atandukanye, ashobora kwifashishwa mu gufata neza uruhu, ni mubotike aho bacuruza amavuta gusa.

Iduka ry'imyenda yakozwe mu bitenge, angaha ni handi bacuruza ibikoresho byakorewe mu Rwanda, byiganjemo amasakoshi, imyenda y'abagore, ibitenge, amakanzu ndetse n'ibindi bikapu umuntu ashobora kujyana ahantu igihe yarimbye cyangwa se gutwaramo ibindi bintu.

Abantu b'ingeri nyinshi, batembereye mu isoko, ririmo imbuto, ziganjemo, imineke, imyembe ndetse harimo n'ibinyomoro ndetse n'imineke. Aha ngaha niho ushobora kugura imbuto z'amokoge atandukanye, bitewe n'ayo ushaka.

Mu mujyi rwagati aho hariho akazu karimo umukozi w'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda MTN ashobora kuguhereza amayinite cyangwa se igihe ugiye kubitsa cya kubikuza ,akaba yagufashamo muri izo serivisi zose.

Umukobwa uri mu iduka arimo kugenda abaza ibicuruzwa, hanyuma afite mvilope arimo kugenda ashyiraramo ibyo yahashye, aha ngaha kandi arimo kugenda arobanura, hanyuma akaza kwishyura nyuma, arimo kugenda abika ibyo yaguze.

Amavatiri agiye atandukanye aparitse hano, ni ku rusengero aho ba nyiri aya ma modoka ari abakire bagiye gusenga, aha ngaha kandi ushobora kugenda uri umukirisito padiri cyangwa se pasiteri akaba yagufasha kwicuza ibyaha.

Abagore bari mu rusengero, barapfukamye bashize amaboko hejuru, barimo kuramya no guhimbaza; n'inyuma kandi hari abagabo, nabo barimo gusenga. Iri ngiri ni idini y'abarokore ndetse barimo gusenga bahimbaza.

Ikigo cyo mu Rwanda gikora ubutabazi ndetse no gufasha abantu batishoboye abahuye n'ibibazo, kitwa Karitasi cyane cyane gikorera muri Catholique, ndavuga mu rusengero rw'abagatulika cyangwa se Kiliziya gatolika aho bafasha abantu batishoboye.

Umwana bazanye kwa muganga barimo kugenda bamuvura bareba ikibazo afite, ari kumwe na mama we wamuzanye, uyu muganga arimo kugenda areba ku matwi ye ahareba ikibazo afite ndetse umwana arahindukiye afite udusa tuzinze, muganga arimo kugenda areba ikibazo afite.

Mu rusengero aho hari abagabo bambaye amakanzu bafite n'ibyangombwa bigiye bitandukanye barimo kwerekana, hagati yabo hariho umupadiri wambaye ikanzu ndetse abenshi muri bo barimo guseka harimo n'abambaye udupfukamunwa.

Abagabo bagera kuri batanu bambaye imyenda y'Abakatolika yambarwa n'abapadiri cyangwa se ba Musenyeri, aba ni abayobozi bakuru bakuriye idini rya gikirisitu ry'abakatolike, ni ukuvuga ngo abantu bahagarariye Kiliziya Gatolika.

Inzu zubatse neza zazindi bita kiliziya cyangwa se urusengero rw'abakirisitu gatolika, rugizwe n'ibice bibiri hamwe hariho agafite agasongero karekare kubatse nk'umunara, ndetse n'ahandi abantu binjira ari naho basengera.

Abagabo babiri b'abayobozi bakomeye bafite igishushanyo kigaragaza sheke y'amafaranga yo mu kigo cy'imanari cyitwa Equity, iyo ni banki ndetse hariho umugabo umwe afashe igikombe bigaragaza ko aba ari abantu barimo gushimira ndetse iyi ni sheke y'amafaranga bazajya gufata muri banki.

Abantu bateraniye hamwe, biganjemo imfungwa z'abagore cyangwa se abanyururu ndetse harimo n'iz'abagabo. Ahangaha kandi hariho abagore baje kubasura, bariho kandi n'abantu bashinzwe kurinda izi mfungwa kugira ngo zitatoroka.

Icyumba cy'ubwiherero aho umuntu aza mu gihe ashaka kwikiranwa n'umubiri, ndetse yasoza hariho ahantu ho gukarabira intoki kugira ngo abe ashobora kwirinda umwanda, aha hantu hagomba kugirirwa isuku.

Icyumba giteguye neza kirimo igitanda, uburiri bushashe neza ndetse ku ruhande hariho ikirahuri, aho umuntu ashobora kurebera ibiri kubera hakurya mu musozi cyangwa se hanze ndetse harimo n'amashusho meza, hateguye neza, hariho n'amatara yabugenewe yayandi azana urumuri rukeya.

Icyumba cyo muri hoteli gisashe neza kigizwe n'amashuka y'umweru ndetse hariho n'imisego ibiri ku buryo abantu babiri bashobora kuharyama nta kibazo bafite kandi bisanzuye, kandi hakurya hariho ahantu umuntu ashobora guhagarara akareba ibiri kubera hanze.

Icyumba cyo mu mahoteli kizwi ni ameza ndetse n'ibindi bikoresho umuntu ashobora gukenera, ahangaha hameze kandi nko mu gikoni aho hariho ibyuma umuntu ashobora gutekeraho ifunguro ndetse harateguye neza hari indabo ndetse aha ngaha ni mu mahoteli.

Hotel yubatse neza ikikijwe n'ubusitani ndetse kandi hariho kaburimbo aho umuntu anyuramo mugihe imodoka ziri kugenda .Ndetse kandi hariho amarembo hariho bariyeri aho bakubwira ngo winjire ugomba kubaza umusekerite w'aho.

Umugore n'umugabo b'abazungu, barimo gusangira icyo kunywa, barimo kugenda bakuzanyaho ibirahuri, mu rwego rwo kugira ngo baryoherwe, ahantu bari ni muri hoteli ndetse barimo kugenda basangira, bica icyaka kugira ngo n'amasaha abe yicuma.

Uburiri busashe neza bufite inzitiramibu ikoranye umuti, hakurya hariho televiziyo iteretse ku meza maremare kandi ahantu iki gitanda kiri hitegeye idirishya, aho ifite ikirahuri kuburyo umuntu ashobora kwirebera hanze.

Icyumba cyo muri hoteri gishashe neza ndetse kiriho na televiziyo aho umuntu ashobora kuryama yirebera televiziyo, areba amakuru, indirimbo, ku buryo adashobora kugira irungu, bikunze kuboneka mu mahoteri gusa ibyinshi nk'ibi biba bihenze cyane.

Ububiko bw'ibijumba byeze binini cyane, aho bantu barimo kugenda babyerekana, kugira ngo abantu baze kubihaha, ahangaha naho bagenda babishyira igihe barimo kubisarura, kugira ngo bigende bigurishwa bivanwa hano bijyanwa no mu tundi duce.

Inkweto za bodaboda z'amoko agiye atandukanye harimo iz'imihondo, ubururu, siripa ndetse n'undi bwoko bugiye butandukanye, ziganjemo inkweto zifunguye aho umuntu ashobora kuzambara mu gihe hashyushye, ziganjemo iz'abakobwa ndetse n'utundi dukweto duto tw'abana.

Ahantu abantu benshi bakoraniye, baje kugura ibicuruzwa bigiye bitandukanye, haba hariho abaje kugurisha ndetse n'abandi bagiye kugura, higanjemo imboga, imbuto ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku, aho harimo indobo nini n'intoya biterwa n'icyo umuntu ashaka kugura.

Abahinzi barimo kugurisha umusaruro babonye, umwe afite igiti kiriho munzani, bagenda bazirikaho umufuka, hanyuma babiri bagafata kuri cya giti, umufuka wangiza ukerera, uko ugenda werera ni nako bagenda bamenya ibiru uwo mufuka ufite.

Ibicuruzwa biri ku gataro aho byiganjemo umuceri uri mu mifuka yafunguye, ndetse umufuka umwe urimo agakombe, kagaragaza ingano, umuntu agomba gutwara. Niba ari akarahuri kamwe gafite amafaranga ugomba kwishyura, niba ari tubiri nanone amafaranga agenda yiyongera.

Amoko y'imyenda igiye itandukanye yiganjemo ama eswime cyangwa se ibitambaro by'isuku birunze ahantu mu isoko, aha ngaha uraza ukagura icyo ushaka bitewe n'ibara wakunze, hariho kandi n'amakote ushobora kwifubika.

Isoko ririmo abantu benshi, harimo umucuruzi urimo kugenda acuruza inkweto, hariho n'umugabo w'umusaza wambaye ingofero y'urubaraza ari kuza gutoranya inkweto ashobora kuba yakwambara kugira ngo ibintu bigende neza.

Umugore uri mu isoko ririmo imbuto zijya zitandukanye, harimo ibinyomoro, amaronji, inanasi, amarakuca ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye, ahangaha uraza ugatoranya izo ushaka warangiza ukishyura.

Moto irimo kugenda muhanda wa kaburimbo za zindi bita bajaji, ihetse umuntu umwe w'umugore ndetse bambaye amakasike adasa, umumotari yambaye kasike itukura naho umugenzi yambaye kasike y'ubururu, barimo kugenda mu muhanda bonyine nta bindi binyabiziga birimo.

Agahanda karimo utubuye duconze turi hasi ndetse harimo n'imoto hamwe n'umuntu uyicayeho arimo kugenda, ku ruhande hariho abamotari batandukanye bahagaze imbere y'umu agenti wa emutiyene kuko hariho n'umutaka wa emutiyene.

Umumotari uhagaze imbere y'imoto ye, afite agafishi k'umuhondo twa tundi tuba turiho ubwishingizi. Iyi moto ye arayiparitse ntago ayicayeho, yiteguye kuyijyaho kuko yambaye ikasiki, ndetse n'indi iri kuri moto.

Umu motari utwaye moto ifite nimero ya RF kabiri, gatandatu, gatandatu R. Arimo kugenda mu muhanda ndetse n'imbere ye harimo n'abandi ba motari babiri. Barimo kugendera mu muhanda, barimo kugenda baganira. Nta modoka zirimo uretse ko ahantu bari hari icyapa kigaragaza ko ari imihanda, inyuranyemo.